Uruganda rwa Radiant ndetse uru akaba ari urubuga ushobora kujyaho ukamenya amakuru yabo yose ukaba wabahamagara kuri cumi n'umunani, icumi na numero ya telefone yabo, ndetse urubuga rwabo rukaba rwanditseho www.radiant yacu rw.

Aha hagaragaza ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo kugenda bibisikana bijya mu nzira zitandukanye ndetse hakaba hari icyapa hejuru kigaragaza kwamamaza, cyamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bita Adriana's Insurance.

Iki ni icyapa kiri ku nyubako cyo kwamamaza kigaragaza uburyo wakoreza mesaje cyangwa se ubutumwa kuri nimero bari kukwereka undi bakaguhereza serivisi wifuza.

Irushanwa cyangwa se isiganwa ry'amamodoka, mu duce tugiye dutandukanye aho zigenda zizenguruka ibirometero runaka, bagahemberwa uwatsinze, aho bifite abaterankunga bagiye batandukanye harimo nka Sanilam ndetse na Banki Populaire ndetse n'abandi baterankunga benshi.

Konti ya iwacu sitafu ndetse ukaba afite n'uburyo bwo kuyihindura ukaka wayishyiraho indi ushaka mu buryo bwo kohereza amafaranga cyangwa se kuyakira bakwekana n'ibikorwa biherutse gukorwa harimo uwo bita John Amahoro ndetse na David.

Iyi ni apurikasiyo yifashisha mu kugenzura ibikorwa byawe bya banki, mu gihe ufite konti muri banki ukaba washyiramo ino apurikasiyo muri terefone yawe ugakurikirana ibikorwa byawe uko bigenda muri iyo apurikasiyo.

Aha ni ahabugenewe kumanika imyenda cyane cyane aho icururizwa, uko bisa akaba ari iduka hano ry'imyenda, ikaba iri ku murongo, hano akaba ari umurongo w'imipira gusa cyangwa se imyenda y'ubwoko bwo hejuru gusa.

Aha hakaba hagaragaza inzu isa n'icurizwamo imideli cyangwa se imyenda itandukanye, hakaba hagaragaza umwe usa n'uri kwaka serivisi cyangwa se uri gusaba ubufasha, hakaba hagaragara n'undi uri gusa nk'ubaza ibiciro by'iyo myenda uko bihagaze.

Ibi akaba ari bimwe mu bintu byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse bikaba bikenerwa kugira ngo umuntu agire ahantu ajya abyifashishije, birimo imyenda, inkweto ndetse n'amashakoshi n'ibindi bijyanye na byo, bikaba bicuruzwa cyangwa bisangwa mu nshe nyinshi zigiye zitandukanye.

Aya ni ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

ABG cyangwa se Akagera Bizinesi Gurupe, ikaba isanzwe izwiho gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ikaba ikora buzinesi zigiye zitandukanye harimo nko kugurisha amamodoka mu buryo bwa Akagera motozi cyangwa se ukaba wanayakodesha ndetse n'ibindi byinshi.

Hyundai cyangwa se imodoka y'ubwoko bwa Hyundai, iki kinyabiziga kikaba gisanzwe kizwi nko kumenyekana mu gucuruza imodoka nyinshi ku rwego rw'isi, akaba ari uruganda rukorera mu gihugu cya Koreya asanzwe hazwimo n'urundi ruganda rwitwa Samsung.

Imodoka ziri mu bwoko bumwe z'umweru ndetse zikaba zihagarariwe n'umugabo usa nk'aho ari kwereka umukiriya imwe muri izo modoka ndetse bakavugana ibiciro, akamenya nimba yayigura cyangwa se atayishimira bakajya gushakira ahandi.

Aha hagaragaza ikinyabiziga kiri mu ubwoko bwa benzi mu magambo ahinnye cg se maricidezi benzi hakaba hariho na nimero uhamagara mu mugihe wifuza kugura iyo modoka mugihe wumva uyikeneye.

Mu Rwanda ushobora kuba wagana kimwe mu kigo gishinzwe kuba cyagurisha amamodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye binyuranye biri mu bwoko bwa Yundayi, aho ubagana bakaguhereza serivisi nziza.

Kimwe mu bimenyereweho mu ivunjisha cyangwa se ibarwa ry'amafaranga yo mu bwoko bumwe ndetse ugahinduranya bakaguha andi y'ubundi bwoko, akaba ari uburyo bukunda gukoreshwa n'abantu bakunda guhinduranya ibihugu cyangwa se kwambuka imipaka inshuro nyinshi, bikaba bikorerwa mu biro byabugenewe bya foregisi biro.

Ku mazu agiye anyuranye yo mu Rwanda aho usanga baba bafite serivise zikurikira, harimo izo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga bakayaguramo mu mayarwanda no kuba bagurisha amafaranga yo hanze.

Amafaranga cyangwa se kimwe mu bimenyereweho nka senkani cyangwa igiceri cy'amafaranga mirongo itanu, ateretse ku meza. Akaba atangwa na leta binyuze mu kigo gikuru cya banki nkuru y'u Rwanda ariyo beneri. Kugira ngo afashe abaturage mu kwihahira cyangwa mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye.

Amafaranga y'amadorari cyangwa amafaranga ari muri ubwo bwoko, akaba ashushanyijeho ikirangantego ijana ndetse akaba ari amafaranga azwiho gukoreshwa mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, akaba anayoboye, idorari rimwe ubu rikaba rigeze ku mafaranga igihumbi na magana ane y'u Rwanda.

Aya ni amashusho agaragaza umukozi cyangwa se umukoresha ajya kubika amafaranga ahabugenewe cyangwa se agiye kugarurira umukiriya akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya kenya uko bigaragara .

Amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ubitegetswe na Leta akaba ariho umubare w'igihumbi, ndetse akaba ari mu bwoko bw'inoti, akaba ashushanyijeho ingagi, akaba ari kimwe no mu bitwinjiriza abakerarugendo benshi mu gihugu.

Masaka isiredi akaba ari amagambogambo yanditse ku mipira y'umutuku ndetse n'iy'umukara, yamamaza Masaka akaba ari agace kamenyereweho mu kuba kari mu nkengero z'umujyi, izii akaba ari yahurute ziri kwamamazwa zikorerwa muri ako gace.

Ku makusanyirizo anyuranye yo mu gihugu, aho usanga akora ndetse acuruza amata n'ibikomoka ku mata, aho ushobora kuba wabagana bakaguhereza ingano y'amata wifuza ugendeye ku mafaranga ufite.

Kimwe mu byifashishwa mu gutwara amata bifite amazina menshi arimo nk'ikidomoro cyangwa se bitewe n'uko abayagenda bayatanga mu duce dugiye dutandukanye, cyane cyane ku magare bagenda bayita, bakaba hari n'utubido natwo twifashishwa mu gutwaramo ibintu nk'amazi cyangwa se amata muri rusange.

Imwe mu nganda zamenyerewe cyane ho gutanga amata meza ndetse akaba ari uruganda rwa leta bita Inyange rukaba rukora n'amazi meza, rukaba rukora n'ibindi bigiye bitandukanye birimo n'amaji aryoshye cyane cyane iza pome abantu bakunda muri rusange.

Ikigo kimenyereweho nka emutiyeni cy'itumanaho kikaba kikorera mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse harimo n'u Rwanda, ubu akaba ari uburyo wakoresha urimo kohereza cyangwa wakira amafaranga, muri iyi serivisi yitwa momo cyangwa se mobayiromani.

Aha haragaragara umurongo w'abantu basank'aho ari benshi, baje ahitwa wesitani yuniyoni cyangwa se ahashinzwe kwakira amafaranga cyangwa se kubikuzwa amafaranga yoherejwe avuye mu mahanga.

Sipeni ndetse n'abaterankunga bakuru ari bo ayi endi emu bakaba bakwereka apilicasiyo yabo cyangwa se icyo wakwifashisha mu kunyurwa na serivisi zabo mu buryo butandukanye ugenda ureba uburyo wakoherezamo unyuze muri ya apulikasiyo cyangwa se wakwakiramo amafaranga.

Itumanaho ryitwa Airtel; aho riri kwamamaza ayo uburyo bukoreshwa mu kohereza amafaranga cyangwa se mu kuyakira bwitwa Airtel money, hakaba hifashishijwe abafatanyabikorwa bagiye batandukanye harimo Bibox, Village power, Nuru ndetse n'abandi.

Ubu ni ubutumwa bwohererejwe umukiriya ukoresha emutiyeni cyangwa uburyo bw'itumanaho bwa emutiyeni imumenyesha ko amaze kubitsa ibihumbi magana atanu by'amagande kuri telefone yiwe.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa na Rwanda Revenue Authority cyangwa se ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'ibarura, kikaba kigaragaza ko uyu munyabikorwa yamaze kwishyura ibihumbi icumi by'umusoro.

Ikigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se Repuburika y'u Rwanda, kikaba cyitwa Rwanda Revenue Authority, kikaba gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, kikaba gitanga amafagitire, harimo n'iy'witwa Henry Rutaganzwa, kimumenyesha ko yamaze kwishyura imisoro yiwe, akaba atuye mu gace ka Kamonyi.

Urupapuro rwitwa resi cyangwa se inyemezabwishyu rutangwa n’ikigo cya Rwanda Revenue Authority (RRA) cyangwa ikigo gishinzwe imisoro n'ibarura. Rupapuro rukaba rwahawe uwitwa Dom Hils Rwanda Ltd, rugaragaza ko bamaze kwishyura imisoro yabo.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rwahawe uwitwa Henry Rutaganzwa, rugaragaza ko yamaze kwishyura imisoro ndetse akaba ari uru rupapuro rutangwa n'ikigo kibishinzwe cya Rwanda Revenue Authority cyangwa Ikigo gishinzwe Imisoro n'Amahoro.

Ni urupapuro rugaragaza uburyo umutungo wagiye ukoreshwa muri urwo ruganda cyangwa se muri icyo gikorwa, hakaba harimo ahagaragaza aho amafaranga yakoreshejwe, hakaba harimo ahagaragazwa impamvu yakoreshejwe ndetse n'umubare wayo.

Urupapuro rutangwa na banki runaka iyo ariyo yose, rwerekana imyirondoro ndetse n'uburyo wagiye ukoresha amafaranga yawe muri iyo konti wafungujemo, angahe akaba ari banki ofu Kigali cyangwa se banki ya kigali yarutanze.

Iyi ni inyandiko itangwa na banki runaka bitewe n'umukiriya wayo, igaragaza uburyo wagiye ukoresha amafaranga yawe, ayo wagiye wohereza, ayo wagiye wakira n'ibindi bikorwa bitandukanye byakorewe kuri konti yawe.

Amafaranga y'imibare igiye itandukanye asanzwe azwiho nk'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya kongo amwe akaba ari ibihumbi makumyabiri andi ni ibihumbi icumi andi ni bitanu andi ni igihumbi andi ni magana atanu.

Ibiciro cyangwa se imibare igaragaza uko idolari cyangwa se ubwoko bw'amafaranga y'idolari agenda ahabwa ku gaciro mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bitewe n'ubundi bwoko bw'amafaranga wakoresha, uko bayavunjisha.

Aya ni mafaranga amenyereweho ku izina ry'amaropi cyangwa se amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba akoreshwa na miliyari irenga y'abantu kuko Ubuhinde butuwe n'abantu benshi ndetse akaba aya ngaya ari amanoti y'icumi gusa.

Birodeshange cyanwa foregisibiro mu ndimi z'amahanga, akaba ari ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga cyangwa se ukaba wayatanga bo bakaguha andi bitewe n'ayo ukeneye ubwoko bwayo, bikunda gufasha abantu bakunda kwambukiranya Ibihugu.

Aha hakaba hagaragara amafaranga y'ubwoko butandukanye bisa nkaho uyu muntu yaje kuvunjisha, kugira ngo atange ubwoko bumwe bamuha ubundi bwoko. Akaba asa nkaho ari umuntu uri kuvunjira uwo mukiriya ngo amuhe amafaranga yifuza.

Aba ni abantu bari kubara amafaranga ari mu bwoko butandukanye harimo amadolari akoreshwa mu gihugu cy'Amerika cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika, andi ari mu ibara rijya gusa umutuku akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Pakisitani.

Uburyo bwo guhererekanya amafaranga cyane cyane busangwa, mu mabiro de shanje cyangwa se ibiro bishinzwe guhindura amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, kugira ngo bikorohereze kuyakoresha bitewe n'ahantu ugiye, cyane cyane bikunze kuba ku bakerarugendo ndetse n'abantu bakunda kwambukiranya ibihugu.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti akaba ariho ururimi rw'igishinwa ndetse n'umugabo umenyerewe muri icyo gihugu, akaba ariho imibare igenda igaragaza agaciro kayo, ndetse n'uburyo akoreshwa.

Aya akaba ari amafaranga ari mu bwoko bw'inoti, akaba ariho ikirimi cy'Igihinde ndetse akaba aramafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, aya bakaba bayita amakoro, akabaga ayangaya ari amakoro maganakenda y'Amahinde.

Imwe mu bigo bimenyereweho cyane mu kuvunjisha ndetse no kwakira amafaranga y'ubundi bwoko, bitewe n'igihugu uri guturukamo, aho ugenda ugatanga amafaranga y'ubwoko ubwo aribwo bwose, bakaguha andi mafaranga wifuza, cyane cyane abantu bakunda kugenda genda mu bihugu bitandukanye, nibo bakunda gukora ibintu nk'ibyo.

Foregisi biro birodeshanje tuzamurane, akaba ari kimwe mu ma ofisi cyangwa se ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga, bikavunjira abakiriya baje bitewe n'ubwoko bw'amafaranga bashaka gukoresha cyangwa guhinduranya.

Inzu cyangwa se ofise mu byifashishwa mu kwakira ababagana cyangwa se abakerarugendo cyangwa abaturage bari kwifuza guhindura amafaranga bayashyira mu bundi bwoko bifuza bitewe n'igihugu bagiye kujyamo cyangwa se n'aho bagiye kugana ubwoko bw'amafaranga bakoresha.

Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko aho hantu ugeze hari ibiro utanga amafaranga utifuzaga gukoresha muri icyo gihugu bakabaguhindurira mu bundi bwoko bw'amafaranga ushaka kugira uyakoreshe bitewe n'ahantu ugeze, n'amafaranga bakoresha akaba ari ibiro bishinzwe kwakira aya mafaranga bikaguhereza ayo wifuza ubwoko bwayo.

Forex Bureau cyangwa se Forex Bureau, kimwe mu biro bisanzwe bizwiho nko kuvunjisha amafaranga, aho ujyana amafaranga y'ubwoko bumwe cyangwa se akoreshwa mu kindi gihugu, bakaguha akoreshwa mu gihugu wifuza cyangwa se ubwoko bw'amafaranga wifuza.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda uzasanga amazu ashinzwe kuba yakora ibijyanye no kuba bavunja amafaranga y'amanyamahanga, bakaba bafata amanyamerika bakayaguhamo mu manyarwanda, amanyatanzaniyaa bakayaguhamo mu manyarwanda ndetse n'andi mafaranga yo mu bindi bihugu byo hanze bakabikuvunjira mu manyarwanda.

Iyi ni imwe mu mahoteli y'i Kigali, ikaba yitwa Four Points by Sheraton, ikaba icumbikira urujya n'uruza rw'abantu benshi, ikaba iri no mahoteli amwe ahenze cyane muri Kigali, kandi akaba ari na meza.

Ahazwiho nk'amahoteri mu rurimi rw'Abanyamahanga, aho ushobora kuba wabagana ukaba wahabwa serivisi zinyuranye, harimo zo gucumbika ndetse no guhabwa ibiribwa n'ibinyobwa, aho uhasanga n'ubwogero bw'abasirimu.

Kimwe mu bisanzwe bizwiho nka asiranse cyangwa se ubwishingizi ubu akaba ari ubwa FBN, ikigo cyitwa gutyo bikaba bigufasha mu gusana ibyawe byangiritse mu gihe byasanzwe ari impanuka atari wowe wabiteye ku bushake.

Ibiro birimo abagabo ndetse n'umugore basanzwe bamenyeraho ku izina ry'abazungu, bakaba basa nk'abatanga asiranse cyangwa ikizwi nk'ubwishingizi, kikaba kigufasha mu kugusanira cyangwa mu kugukoreshereza ibyangiritse mu gihe bitakozwe ku bushake.

Iki ni igitaramo cyagombaga kuzabera ahiswe bike arena ndetse kikaba cyari gifite umuterankunga mukuru bike cyangwa se banki ya Kigali cyagombaga kuba gifite n'igabanyirizwa rya mirongo itatu ku ijana ku matike.

Iyi ni inyandiko ya banki ya ekwiti yo muri Kenya, isaba usaba serivisi ko asinya ko yemeye amategeko n'amabwiriza agenga banki mbere yo guhabwa iyo serivisi.

Aha hagaragara nk'ahagurishwa cyangwa se herekanwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda, imitako byose bikaba bisa n'ibikoresho bya gakondo biri kwerekanwa cyangwa se birimo kugurishwa mu gace runaka.

Ibitoki, amateke, imikubuzo, ibihaza, imineke, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bimwe mu bikunda gusangwa mu isoko, ahahurira abantu benshi kugira bagende bagura, bitabagoye kujya gushakisha ikintu ahandi hantu.

Aha ni ahagaragara ko hakorwa ibintu byinshi, harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bamwe bajya mu kazi kabo, abandi bataha, abandi bajya mu bindi bikorwa byabo, hakaba hagaragaza n'ibinyabiziga byinshi bigiye bihaparitse.

Abakozi babiri b'ibigo bitandukanye, umwe akaba yambaye umupira ndetse n'ingofero by'ikigo gisanzwe kizwi ku izina rya MTN cyangwa umuyoboro w'itumanaho wa MTN, bakaba basa nkaho bari kungurana ibitekerezo mu byo bakora.

Umuyoboro ukorera mu bihugu bigiye bitandukanye, umaze kuba mpuzamahanga, ukaba witwa emutiyeni, aho uri kwamamaza ibindi bita damarara cyangwa se indi serivise ibazaniye bita damarara ndetse n'umugore uyihagarariye.

Aka ni akapa kagaragaza emutiyene cyangwa se umuyoboro w'itumanaho wa emutiyene ukoreshwa mu bihugugiye bitandukanye, aha kakaba kari kugaragaza uburyo wakoresha wishyura aho uje gusaba serivisi mu gihe bamaze kuyiguha.

Mu gihugu cy'u Rwanda umurongo wa MTN, aho ukomeje kuza ku isonga, wazanye uburyo bushyashya bwo kuba wakwishyura ukoresheje momo peyi, aho ukanda nimero ya kode y'umucuruzi ukaba wamwishyura batagukase.

Ahari ibikorwa bigiye bitandukanye, byose bikaba biri gukora icyo bita kwamamaza cyangwa se kwiyamamaza, kimwe muri byo akaba ari ikitwa MTN cyangwa se itumanaho rya MTN, hirya hakaba hari Tekino akaba ari uruganda rukora amatelefoni.

Bitewe n'amabara ndetse n'umwambaro yambaye, uno muntu akaba ari umukozi wa MTN cyangwa umukozi w'itumanaho rya MTN, ushinzwe gutanga serivisi ku baturage bari aho hafi bakoresha uwo muyoboro.

Ruti Rwanda cyangwa se imwe mu mbuga zimenyereweho mu gucuruzwaho ibintu mu buryo bwitwa onulayini cyangwa se uburyo bwa nkoranyambaga, ukaba waguraho ibintu bigiye bitandukanye birimo amatelefone, ibikoresho bya elekitoronike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bagufashamo.

Twiga cyangwa se twiga simenti aya n'amakamyo yabugenewe aba agomba kuzatwara ibikorwa bya twiga, birimo cement akaba ari campany cyangwa se kompanyi i ikorera muri tanzania, bakaba bakora mu mu buryo mpuzamahanga bajyana ama simenti, mu bihugu bitandukanye ndetse no mu gihugu cyabo cya Tanzania.

Aha hagaragara inzu isa nk'imwe mu zigiye zikodeshwa zigezweho muri Kigali, bakaba bakubwira ngo ni iki amadolari igihumbi yakugezaho muri Kigali. Ese ni iyihe nzu wabonamo mu amadorari igihumbi ku kwezi.

Iki ni icyumba kiri mu nzu iherereye Kacyiru, akaba ari icyumba kiri ahantu hacyonyine hiherereye, akaba ari icyumba cy'umuntu umwe, kikaba kiri mu cyiciro cyo hejuru, kikaba kiri mu Rwanda, bakaba bakigereranya amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Saro cyangwa se aho abantu bicara, ndetse akaba ari saro imwe mu ziboneka mu mazu akodeshwa muri Kigali, iyi ikaba igaragara ko ari ku mafaranga ibihumbi magana inani ku kwezi mu gihugu cy'u Rwanda.

Inzu imwe mu bimenyereweho nko mu gukodeshwa, cyangwa se aho umuntu aza akayibamo igihe runaka akabyishyurira ndetse iyi nzu ikaba ibarirwa miliyo ijana na mirongo itanu mu kuyigura, ikaba iba Kicukiro Kagarama mu Mujyi wa Kigali.

Igikoni cyangwa se aho batekera, hakaba hasangwa mu mazu asanzwe amenyereweho nka apartment, cyangwa se amazu yo gukodesha, iki gice kikaba kiri mu nzu imwe mu bivugwaho ko miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, yakugezaho muri Kigali.

Umukobwa wambaye amaherena ni misatsi y'umukara n'inzara z'umukara uri gukanda ku gikuta cy'umweru cyera, uri kwamamariza umuyoboro w'itumanaho rya airtel mu gukwirakwiza amafaranga mu buryo bwo kugura umuriro mu buryo bworoshye.

Aha hakaba hagaragara umugabo arimo hagati y'amazu atandukanye, bikaba bisa nk'aho asa n'uri kugenda yerekana amazu akodeshwa ari kugenda ayavuga ibiyaranga.

Umugabo urimo kurangira amazu abantu bayashaka, cyangwa se abifuza gukodesha, waba uri ukugura, waba uri ugukodesha, ukaza ukahaba ndetse akaba ababwira n'agace n'ibiciro mwabasha kwinjira muri iyo nzu mufite.

Amwe mu mazu yubatse neza ndetse y'icyitegererezo amenyereweho cyane mu gukodeshwa bimwe mu byitwa maparitema, bikaba ari ibintu bisangwa mu duce tugiye dutandukanye ku bantu babyifuza, iyo ikaba ari inzu y'ibyumba bibiri, amadushe abiri cyangwa se ubwogero bubiri, ndetse ikaba itararangizwa kubakwa, ikaba ari ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu yo gukodeshwa cyangwa se inzu nini mu bwoko bwa kadasiteri mu mazina imenyereweho cyane, ikaba iri Kicukiro, Kigali ndetse ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu ndetse ikaba iri ku bihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Kimwe mu buryo bumenyereweho kwamamaza aho umuntu avuga ubwiza bw'ikintu ari kwamamaza kugira ngo kibone abakiriya benshi, aha hakaba ari inzu y'ibyumba bitatu, akaba ari inzu nziza, akaba ari inzu iri i Kigali i Rebero kandi akaba ari inzu wararamo ku madorari ijana ku munsi.

Aha hagaragara amashusho agaragaza inzu y'icyumba kimwe, yo gukodeshwa, iherereye i Remera, munsi ya sitade, kandi akaba ari inzu iri mu gipangu cya yonyine, aho ushobora kwibana.

Imwe mu mazu mumenyereweho ko ari amazu aba akodeshwa, iyi ngiyi ikaba iri i Kanombe, Kigali ikaba ifite ibyumba bitatu, ifite ibyumba bibiri by'ubwogero, ikaba ihagaze amafaranga ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzu nshyashya iherereye i Kanombe kandi akaba ari inzu yo kugurishwa, akaba ari inzu itangirwa ku giciro cya makeya ikaba ari imwe mu nzu zo mu bwoko bugezweho bwa kadasiteri, bumenyereweho ndetse ukaba wayibona mu gihe uyifuza ku mafaranga makeya.

Ushobora kuba wagana hirya hino Kigali, aho ushobora kuba wakodesha inzu ku kwezi ibihumbi magana abiri, inzu ndende, kadasiteri ifite inzugi z'ibirahure ndetse amakaro hanze, n'ahazwiho kuba haparikwa imodoka.

Aya akaba ari amwe mu maduka agenda asangwa mu miturirwa igiye itandukanye, acuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amavuta, imyenda, inkweto n'ibindi bikoresho byinshi, ukaba wabisanga no mu mujyi rwagati. Ari amazu menshi agenda akorerwamo ubucuruzi.

Ibyapa nka samusanga beka ndetse n'ibindi byegeranye mu iduka rimwe mu bisanzwe bimenyereweho nk'amasuperi marishe, aho ugenda ukagura cyangwa se ukareba igicuruzwa wifuje ukaba wakigura haba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu isoko cyangwa se imurikagurisha, ahagaragara abakiliya benshi bari kugenda bitegereza ibicuruzwa muri iryo soko bigiye bitandukanye, bagahitamo ibyo bifuza mu kugura.

Ibisanzwe bizwiho nk'iduka cyangwa se aho bashakira ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'umukiriya uri kugenda ashyira ibintu bigiye bitandukanye akunda akagenda akabyishyura ku muryango ndetse akagenda yishimye.

Aha ni ahagaragaza abanyabikorwa, bacuruza ibintu byinshi kugira ngo abagendagenda baca muri ako gace, barebe ibyo bifuza, bakumva bagura muri iryo duka ryagutse.

Aha hagaragara nko ku nyubako yo hasi yo mu muturirwa munini usa nk'ufite inyubako zirenze imwe ahasa nk'ahatangirwa ama serivisi menshi cyangwa se gahunda nyinshi zihakorerwa.

Rwanda Social Security Board cyangwa se mu mpine RSSB, ikigo gishinzwe ubwiteganyirize kiyobowe n'uwitwa Regis Rugemanshuro ndetse kikaba gitanga serivisi zigiye zitandukanye nko mu mituweli ndetse n'ibindi.

Ahazwiho nko kuba hatangirwa serivise z'umutekano ndetse no kwishyura umutekano, ushobora kuba wabagana kuko baba bafite ibiro hirya no hino mu Rwanda, aho ushobora kuba wagenda ukishyura umutekano wawe.

Rwanda sosho sukuriti bodi cyangwa RSSB binyuze muri ejo heza bakaba bahaye Mukanzika Pasikazia miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda nk'ubwishingizi bw'ubuzima.

Mu masoko manini ahazwiho gucuruza ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikomoka ku biribwa n'ibimera, aho ushobora kwabagana ukagura ibyo ukeneye bigendeye n'amafaranga ufite.

Iri ni iduka rinini cyangwa se rimwe mu maduka yisumbuye, aba arimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye utapfa gusanga ahandi mu maduka matoya, ahagaragara ko hari n'ibicuruzwa byagiye bigwa hasi.

Umugabo urimo kugerageza kwinjira mu mashini, mu biro bya emuti eni, asa nk'ayaje kuwusaba serivise, ndetse ku ruhande akaba hari icyapa kigaragaza ushatse wakora icyo bita sikani, kugira ngo wishyure ukoresheje momo cyangwa uburyo bw'itumanaho bwa mobayiro mani.

Iduka ririmo ikimenyetso cyangwa se icyapa cya ewasa kimwe mu bimenyerero nka wasake kera cyangwa icyahoze ari wasake; ikigo gishinzwe amazi n'umuriro. Iduka akaba ari rimwe mu bimenyereweho nka superi marishe cyangwa se amasitowa acuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye wagenda uyisanga mu duce tugiye dutandukanye.

Bimwe mu bicuruzwa bisangwa mu maduka manini cyangwa se amasuperimarishe, aho biba biri ku murongo bitewe n'icyo ushaka, kikaba kiri kumwe n'ibindi byinshi byacyo, ukaba wahitamo umubare w'ibyo wifuza ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Ahazwiho nk'amaduka manini, magari, aho ushobora kuba wahasanga, ibiribwa, ndetse n'ibikomoka ku bimera, ushobora kuba wabigura, ukagurira abana bawe, kuko baba bafite, ibiribwa biryoheye, akanwa k'umwana mutoya, bizwiho nka shokora.

Isoko imwe mu bisanzwe bizwiho kwinjiramo ugasangamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukagenda wihitiramo, aha hakaba hari amakaroti, ibyo bita kokombure, ibibiringanya ndetse n'ibindi by'ubwoko bugiye butandukanye.